Abana b'inshuke bicaye ku mukeka hamwe bari kumwe n'abarimu babigisha, aba akaba ari abiga mu irerero; aho abana bakiri bato batarageza imyaka yo gutangira ishuri bahurizwa hamwe hanyuma bakigishwa ibyangombwa ndetse n'iby'ibanze nkenerwa bizabafasha mu gihe bazaba batangiye amasomo yabo.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bari mu bikorwa byo kwiga kubara bifashishije imikino itandukanye, nk'uko bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse n'abaganga. Aho bagira inama abarimu yo kwigisha abanyeshuri, binyuze mu mikino nka bimwe mu bibafasha gufata mu mutwe vuba, ndetse bakamenya neza ibyo biga.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke, aho bicaye bazengurutse uruziga barimo gutigishwa imikino n'umwarimu wabo, bitangwamo inama n'impuguke mu by'uburezi, aho bagira inama abarimu yo kwigisha abanyeshuri bakiri bato babakoresheje imikino nkabimwe mu bibafasha mu gukunda ishuri ndetse no gutuma bisanzura bagatanga n'umusaruro mwiza.

Uburezi bufite ireme, ni kimwe mu gishyirwamo imbaraga na guverinoma y'u Rwanda, hagamijwe guteza imbere ireme ry'uburezi, aho abana batozwa bakiri bato gukunda ishuri ndetse no gusoma, akaba ari bimwe mu bibafasha mu gukura bakunda ishuri, ndetse banakunda gufata serivisi z'uburezi zitandukanye, aho abanyeshuri bambaye impuzankano, bitabwaho n'abarimu bakiri bato.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri yabugenewe igizwe n'amashati ya buresiyeri n'amapantaro y'icyatsi, aho bari mu ishuri barimo gufata amafunguro akaba ari gahunda yashizweho na guverinoma y'u Rwanda igamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage mu byiciro byose hibandwa ku banyeshuri aho bitabwaho bahabwa ibyangombwa nkenerwa hagamijwe kuzamura ireme ry'uburezi.

Icyumba cy'isomero kizwi nka rayiburari, ibi hakaba ari ibiboneksa hirya no hino mu bigo by'amashuri ndetse n'andi atanga serivisi z'uburezi mu rwego rwo gufasha abanyeshuri kuzamura ireme ry'imyigire bahabwa ibyangombwa ndetse n'ibikoresho nyenerwa mu kazi kabo ka buri munsi, bigamije guteza imbere ireme ry'uburezi.

Hirya no hino mu gihugu hagaragara ibyumba by'amashuri byubatswe na guverinoma y'u Rwanda mu rwego rwo gufasha abaturage kwegerwa serivisi z'uburezi; cyane cyane barinda abana gukora ingendo bajya ku mashuri. Aho abanyeshuri kandi bahabwa ibyangombwa nkenerwa ndetse n'ibikoresho by'ibanze bibafasha mu kuzamura ireme ry'uburezi.

Aba b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, bari mu bikorwa by'amasomo yabo, aho bari guhabwa imyitozo yo gukorera hanze y'amashuri, iki kikaba ari kimwe mu bitangwa hirya no hino ku mashuri, mu rwego rwo gufasha abanyeshuri guhabwa ireme ry'uburezi rigezweho, guhabwa ibyangombwa nkenerwa bibafasha kwiteza imbere ndetse no gukemura ibibazo bitandukanye muri sosiyete.

Ibyumba byinshi by'amashuri byubatse ku murongo, bifite ibisenge by'ubururu ndetse byubakishije amatafari ahiye. Iyi akaba ari gahunda yashyizweho na leta mu rwego rwo gufasha abaturage kugerwaho na serivisi z'uburezi hirya no hino mu gihugu, begerezwa amashuri abafasha, kuzamura ireme ry'uburezi ndetse no kwita ku myigishirize y'abana babo.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bari gukinira mu kibuga kiri rwagati mu kigo, bakikijwe n'amashuri menshi bigamo. Ibi bikaba ari bimwe mu bikorwa bigaragazwa n'impimguke mu by'uburezi ko abana bakeneye kwisanzura ndetse no gukora imikino itandukanye, bikangura ubwonko ubwabo bityo bikazamura ireme ry'imyigishirize.

Hirya no hino mu mafarumasi aboneka mu gihugu y'ubuhinzi n'ubworozi hagaragara ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abahinzi nk'inyongeramusaruro, imbuto imiti yo gutera imyaka ndetse n'ibindi bitandukanye, byose bigamije gufasha abaturage biganjemo abakora ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi kwiteza imbere, babona umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Icyapa kinini cyane kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo n'amabara atandukanye, kimenyesha abakoresha umuhanda ndetse n'abandi bose akorera ikigo cya HVP Gatagara. Hakaba rero hatangirwa serivisi z'uburezi cyane cyane ku bafite ubumuga, bigaragaza iterambere aho kandi ntawe uba uherejwe kuri serivisi z'uburezi.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano, bari gutwara amasahani baririyemo mu gikoni, iyi akaba ari gahunda yashyizweho na Leta y'u Rwanda mu rwego rwo kuzamura imibereho myiza y'abaturage, aho abanyeshuri bitabwaho ku mashuri bahabwa amafunguro, bikabafasha kugira ubuzima bwiza bityo bakabasha gufata ubumenyi bahabwa ku mashuri.

Aba ni abanyeshuri barimo guterura amasahani ariho ibiryo bagiye gufungura, iyi akaba ari gahunda ishyizweho na Guverinoma y'u Rwanda, mu rwego rwo gufasha abanyeshuri kugira imibereho myiza bahabwa amafunguro ku ishuri kandi bibafasha kugira imyigire myiza ndetse bakazamura n'umusaruro wabo.

Hirya no hino mu mashuri yaba aya leta cyangwa se ayigenga, hagaragara ibyumba byagenewe gusomerwamo, bizwi nk'amasomero, aha akaba ariho abanyeshuri bakura ibitabo bibafasha kwiyungura ubumenyi, ndetse no gusoma ibintu bitandukanye ku masomo bahawe, bityo bigateza imbere ireme ry'uburezi mu Rwanda.

Urujya n'uruza rw'abantu barimo kugenda mu muhanda mwiza, ukuze cyane ukikijwe n'ubusitani bwiza ndetse n'amatara amurikira uwo muhanda mu gihe cya nijoro, aha ikaba ari imihanda ijya mu bigo by'amashuri, mu buryo bwo gufasha abanyeshuri koroherezwa ingendo zo kunoza serivisi z'imimigendere, ibi bikazamura ireme ry'uburezi ndetse n'imibereho y'abaturage muri rusange.

Hirya no hino mu bigo by'amashuri hagaragaramo ibikorwa remezo bitandukanye, bifasha abanyeshuri ndetse n'abarimu, kugira ubuzima bwiza, cyane cyane byiganjemo iby'imikino, aho hari kugaragara abanyeshuri bari mu bikorwa by'imikino y'amaboko, izwi nka volley ball. Bakina bahanganye kugira ngo haboneke abafite intsinzi.

Sitade mpuzamahanga ya Huye. Iki akaba ari igikorwa cyubatswe na guverinoma y'u Rwanda, mu rwego rwo gufasha abaturage ndetse n'abandi bose kugerwaho na serivisi z'imiyoborere myiza, ndetse n'imyidagaduro, bahabwa ibikoresho by'ibanze nkenerwa mu kazi, ndetse no kubafasha kwidagadura ndetse no gukurikirana imikino n'imipira bitandukanye.

Abana b'abanyeshuri bahurijwe hamwe mu kibuga hagati mu kigo, aho bambaye impuzankano yabugenewe bakaba barimo kuganirizwa na bamwe mu bayobozi babo. Iyi akaba ari imwe muri gahunda zashyizweho na Leta y'u Rwanda mu rwego rwo gufasha abanyeshuri kugira imyigire myiza batozwa, ndetse banahabwa amakuru ku bintu bitandukanye bigamijeko bateza imbere ireme ry'uburezi.

Abanyeshuri bambaye amasarubeti y'ubururu, ndetse n'ingofero z'ubwirinzi ku mutwe, aho bari mu bikorwa byo gushyira mu ngiro ibyo biga mu mashuri, bakora ibikoresho bitandukanye, iyi akaba iri muri gahunda z'amashuri yigisha imyuga ndetse n'ubumenyigiro, aho bafasha abanyeshuri gukora ndetse no gushyira mu ngiro ibyo baba bigishijwe hirya no hino, bakemura ibibazo bimwe na bimwe, bigaragara hirya no hino muri sosiyete.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'amashati y'umweru n'amapantaro n'amajipo by'umukara, bari mu bikorwa byo gususurutsa bagenzi babo binyuze mu mbyino n'indirimbo. Ibi akaba ari ibikorwa bitandukanye by'imyidagaduro bikorwa n'abanyeshuri, hirya no hino ku mashuri hagamijwe kubaruhura mu mutwe ndetse no kugaragaza impano zitandukanye baba bifitemo.

Urubyiruko rwiganjemo abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, igizwe n'ishati y'umweru ndetse n'amapantaro n'amajipo byo mu ibara rya kakiyi, aho bari bahuriye hamwe baganirizwa n'abayobozi babo, ku myitwarire igomba kubaranga mu gihe cy'ibiruhuko, birinda ibishuko ndetse n'izindi ngeso mbi byabicira ejo hazaza.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, bicaye neza bisanzuye mu byumba by'ishuri, aho bari mu bikorwa byo gukora ibizamini kandi bafite ibikoresho by'ibanze nkenerwa mu mashuri nk'ibibaho, intebe, ameza ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bibafasha mu kunoza imyigire yabo ya buri munsi.

Mu rwego rwo guteza imbere ireme ry'uburezi Leta y'u Rwanda yegereje uburezi hirya no hino abaturage ndetse aho abanyeshuri bitabwaho bahabwa amafunguro ku mashuri ndetse n'ibindi byangombwa nkenerwa, nka bimwe mu bibafasha mu kuzamura imibereho yabo bityo bakagira n'ireme ry'uburezi.

Mu kigo cy'amashuri ahagaragara abana bari mu bikorwa by'imyitozo ngororamubiri, ndetse n'ibindi bitandukanye bifasha abanyeshuri kuruhura mu mutwe, ndetse no kuzamura impano zabo, aho abana bari kubyina imbyino gakondo ku munsi mpuzamahanga w'ishuri ryabo, bishimira ibyo bagezeho mu mwaka w'amashuri.

Umunyeshuri wambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'ishati y'umweru ndetse n'ijipo y'ubururu. Ari mu cyumba acumbikamo aho ahabwa ibikoresho by'ibanze bibafasha harimo nk'ibitanda, matera ndetse n'ibindi by'ibanze bibafasha mu kugira imibereho myiza, bityo bagakurikira amasomo yabo nta nkomyi.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, bari mu kibuga, bari mu bikorwa byo kuruhura mu mutwe, nkuko bitangwamo inama n'impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe aho bagaragaza ko abanyeshuri kugira ngo bagire imyigire myiza basaba kuruhuka, bityo ubwonko bwabo bukabasha gutekereza neza, nka hamwe bibafasha mu gukurikira amasomo yabo nta nkomyi.

Icyapa kinini cyane kimanitse ku kigo cy'amashuri, kigaragaza aba urwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Esprit Nyanza. Hakaba hatangirwa ibikorwa by'uburezi bitandukanye, aho abanyeshuri bahabwa amasomo y'ingenzi azabafasha mu gihe cyabo kiri imbere, batanga umusanzu wabo kandi mu kubaka igihugu.

Icyumba cy'isomero kizwi nka layiburari, ibi bikaba ari ibyumba biboneka hirya no hino mu bigo by'amashuri ndetse n'ahandi hatangirwa serivisi z'uburezi, mu rwego rwo gufasha abanyeshuri kuzamura ireme ry'imyigire bahabwa aho bakora ubushakashatsi bwisumbuye ku byo baba bigishijwe mu mashuri ,bikagaragaza iterambere mu burezi.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, aho bari mu gikorwa cyo gusubiramo amasomo yabo, iyi akaba ari gahunda iba hirya no hino mu bigo, ifasha abanyeshuri kuzamura imitsindire yabo bahabwa umwanya wo kwisubirishama amasomo bo ubwabo, ibi bibafasha kuzamura imitsindire yabo.

Aba ni abanyeshuri bicaye mu cyumba cy'ishuri bafite mudasobwa imbere yabo. Ibi bikoresho kandi n'intebe, ameza ndetse n'ibindi, ibi byose bitangwa na guverinoma y' u Rwanda mu rwego rwo guteza imbere uburezi hirya no hino mu baturage. uburezi bugezwa kuri bose ndetse hibandwa ku byiciro byose, hagakomejwe kuzamura ireme ry'uburezi muri rusange.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe igizwe n'ishati y'umweru ndetse n'ijipo cyangwa ipantaro by'ubururu, bicaye mu kibuga hamwe abari kuganirizwa n'abayobozi babo mbere kubajya mu biruhuko, mu rwego rwo kubafasha kuzamura imyumvire yabo ndetse no kwirinda ibishuko bitandukanye bahura nabyo mu gihe cy'ibiruhuko.

Inyubako nyinshi cyane ziri hamwe zubakisha amatafari ahiye, zikijwe n'uruzitiro rw'amatafari, ruzengurutswe n'ubusitani bwiza cyane, aha hakaba ari ahatangirwa serivisi z'uburezi hazwi nko mu bigo by'amashuri, aho bari muri gahunda zashyizweho na guverinoma y'u Rwanda, kwegereza ubuyobozi abaturage, ndetse bahabwa n'ibyangombwa nkenerwa nk'amashuri, uburezi, ubuvuzi ndetse n'ibindi.

Mu rwego rwo guteza imbere uburezi ndetse no koroshya ireme ryabo hirya no hino mu gihugu hubatswe ibigo by'amashuri bitandukanye ndetse binashyirwamo ibikoresho murwego rwo gufasha abaturage kugerwaho na serivisi nziza z'uburezi, bigaragaza iterambere ry'uburezi aho kandi n'ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kunoza imitangire myiza ya serivisi muri uru rwego.

Icyumba kigaragaramo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri bacumbikirwa ku mashuri aho biga, bemerewe kwita ku mibereho yabo ndetse n'ubuzima bwabo muri rusange bityo bakagira imyigire myiza batanga umusanzu wabo mu kubaka igihugu, bagendeye ku bumenyi bahabwa hirya no hino mu mashuri.

Inyubako ndende cyane igizwe n'amagorofa menshi cyane, ikorerwamo ibikorwa by'uburezi bitandukanye, ibi byose bikaba ari ibigamije guteza imbere uburezi ndetse n'ireme ryabwo, hitabwa cyane ku bikorwaremezo bifasha abanyeshuri kugira imyigire myiza, bityo bikazamura ireme ry'uburezi muri rusange.

Hirya no hino mu gihugu hagaragara ibyumba bigezweho bifasha abanyeshuri gushyira mu ngiro ibyo biga bizwi nka Laboratware. Hagaragara kandi ibikoresho bitandukanye bibafasha muri za Laboratware mu gukora ndetse no gushyira mu ngiro amasomo ya bo ya buri munsi, bityo bikagaragaza iterambere mu burezi aho kandi abanyeshuri bahabwa umwanya wo gushyira mu ngiro ibyo biga.

Hirya no hino mu mashuri hagaragara ibikoresho bitandukanye ndetse n'ibyumba byihariye bifasha abanyeshuri ndetse n'abandi bose mu kuzamura ireme ry'uburezi ndetse n'imyigishirize, aha akaba mu cyumba cyamenyerewe kizwi nka laburatwari, aho abanyeshuri bashyira mu ngiro ibyo biga babishyira mu ngiro, ibi bikagaragaza iterambere mu burezi ndetse n'ireme ryabwo kuko riteye imbere.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga ni bimwe mu byazamuye imitangire myiza ya serivisi mu nzego zitandukanye, yaba iz'abikorera ndetse n'iza leta n'uburezi ntibwasigaye inyuma, aho abanyeshuri bifashisha iyakure mu myigire yabo ndetse no gukora ubushakashatsi bityo bikazamura ireme ry'uburezi.

Hirya no hino mu bigo by'amashuri hagaragara ibyapa biyobora abanyeshuri ndetse n'abandi bose basura ibigo bibereka ibyumba bitandukanye ndetse n'ibikorerwamo. Aha akaba ari icyumba kigirwamo n'abiga iby'ikoranabuhanga bagaragaramo ibikoresho bitandukanye bifashisha mu masomo yabo nka mudasobwa ndetse n'ibindi.

Inyubako y'igorofa icumbikira abanyeshuri biga muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, aho abanyeshuri babona ibyangombwa nkenerwa mu myigire yabo, harimo nk'amacumbi ndetse n'ibikoresho basanga mu macumbi bibafasha kugira ubuzima bwiza ndetse banitabwaho bityo bikazamura imigire ndetse n'imitangire myiza ya serivisi z'uburezi.

Hirya no hino hagaragara inyubako zitandukanye, cyane cyane mu bigo by'amashuri. Iyi akaba ari inyubako yagenewe gukorerwamo ibikorwa byo gushyira mu ngiro ku banyeshuri biga iby'imyuga ndetse n'itangazamakuru. Ibi bifasha abanyeshuri mu kumenya ndetse no gutanga umusanzu, bamenya neza ibyo bakora, bityo bakabasha kubishyira mu ngiro.

Hirya no hino mu gihugu hagaragara ibigo by'amashuri ndetse byubatswe ku bufatanye na leta y'u Rwanda aho byagiye bishyirwamo ibikoresho bitandukanye bifasha abarezi ndetse n'abanyeshuri mu kunoza ndetse no kuzamura ireme ry'uburezi, aha akaba ari icyumba cy'ibyuma by'ikoranabuhanga bizwi nka mudasobwa aho bifasha abanyeshuri mu gukora ubushakashatsi mu masomo yabo ya buri munsi.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abayobozi mu nzego zitandukanye za leta abikorera ndetse n'abayobozi b'ibigo by'amashuri, aho barimo kuganirira hamwe bungurana n'ibitekerezo ngo barebe icyakorwa ngo ireme ry'uburezi ritezwe imbere cyane cyane hibandwa ku banyeshuri babona ibikoresho ndetse no kwita ku ikoranabuhanga nka kimwe mu byifashiwa mu kwita ndetse no kuzamura ireme ry'uburezi.

Umusore w'umunyeshuri wambaye ishati y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, arimo kugenda mu mihanda ya kaminuza y'u Rwanda, aho abanyeshuri bahabwa ubumenyi ndetse n'ubushobozi bubafasha gukemura ibibazo bitandukanye bigaragara hirya no hino muri sosiyete, nyuma yo gusoza amashuri makuru na za kaminuza.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda mu muhanda w'amatafari, iruhande rwaho hari ubusitani bwiza cyane burimo amatara amurikira imihanda bigafasha mu koroshya ingendo; akaba ari muri Kaminuza y'u Rwanda aho abanyeshuri boroherezwa mu kubona ibyangombwa bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakabona uko bagira imyigire myiza, nka bimwe mu byafasha kuzamura ireme ry'uburezi.

Icyumba cy'inama cyateraniyemo abarimu, abanyeshuri, abayobozi ndetse n'abandi batandukanye kugira ngo bungurane ibitekerezo, harebwa icyakorwa kugira ngo ireme ry'uburezi rizamuke. Ibi kandi bikaba urubuga rwiza aho abanyeshuri bagaragariza ibyo biga ndetse bigafasha no gutanga ibitekerezo by'ibyo bumva byakorwamo nka bimwe mu byabafasha kuzamura ireme ry'uburezi.

Umugabo wambaye ishati y'umukara urimo gusoma igitabo, imbere ye hateretse mudasobwa, ndetse n'ikaramu arimo kwifashisha akora ubushakashatsi kubyo arikuba asomye mu gitabo. Ibi byose bikaba ibikorwaremezo bitandukanye bihabwa abanyeshuri, mu rwego rwo kubafasha mu myigire yabo ndetse no guhabwa uburezi bufite ireme.

Inyubako ndende cyane, zisize amarangi y'umuhondo, zifite igisenge cy'umutuku, imbere yacyo hari ubusitani bwiza cyane, bukikijwe n'utuyira twagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru. Aha akaba ari muri Kaminuza y'u Rwanda, ahatangirwa serivisi z'uburezi, ku banyeshuri biga mu mashuri makuru na za kaminuza, batozwa ubumenyi ndetse banahabwa ubushobozi bubafasha gukemura ibibazo bitandukanye bigaragara hirya no hino muri sosiyete.

Inyubako ndende cyane zifite igisenge gikozwe n'amategura, imbere yacyo hari ibyapa bitandukanye ndetse n'ubusitani bwiza cyane buri kugendwamo n'abantu hagati. Aha akaba ari mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyinyigiro rya IPRC ishami ryayo rya Huye, higishirizwa imyuga n'ubumenyigiro bitandukanye, bifasha ababyiga kwiteza imbere ndetse no gukemura ibibazo bitandukanye bigaragara hirya no hino mu gihugu.

Ni inyubako ndende cyane y'igorofa yo muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, imbere yayo hari urujya n'uruza rw'abanyeshuri aho bajya bafatira amaso yabo, ibi bigaragaza iterambere mu burezi, aho kandi urwego rwazamu urweho rwo kunoza imitangire myiza ya serivisi n'uru rwego.

Mu cyumba cy'inama cyo muri kaminuza nkuru y'u Rwanda hagaragaramo ibikoresho bitandukanye ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu bitabiramo ibikorwa binyuranye, ibyo byose bikaba bigamije kuzamura imibereho myiza y'abanyeshuri ndetse n'iterambere ryabo, bahabwa ibikoresho bya ngombwa nibindi byose nkenerwa mukuzamura ireme ry'uburezi.

Icyumba gicumbikamo banyeshuri biga muriKkaminuza y'u Rwanda, aho bahabwa ibyangombwa by'ibanze bikenerwa bibafasha mu kuzamura imibereho yabo, bityo bikanoza imitangire myiza ya serivisi z'uburezi aho bahabwa, nk'intebe, ameza, ibitanda ndetse n'ibindi byangombwa by'ibanze bikenerwa mu cyumba.

Mu cyumba cy'ishuri gisize amarangi y'umuhondo hagaragara ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abarimu ndetse n'abanyeshuri kugira ngo hanozwe ireme ry'imitangire ya serivisi z'uburezi. Hagaragara nk'isakazamashusho izwi nka projecteur. Hari ikibaho kandi cyandikwaho n'abarimu ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Inyubako ndende cyane z'amagorofa ziri muri Kaminuza y'u Rwanda zikikijwe n'ubusitani bwiza cyane ndetse n'imihanda nyabagendwa n'amatara amukira imihanda mu gihe cya nijoro. Ibi byose akaba ari ibikorwa remezo bifasha abiga muri Kaminuza y'u Rwanda kuzamura imitsindire yabo ndetse no kuzamura umusaruro w'ibyo bakora binyuze mu byangombwa bahabwa n'iyi Kaminuza.

Icyapa kinini cyane kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru, kimenyesha abakoresha umuhanda ndetse n'abandi bose. Kibarangira ahakorera ikigo cy'imyuga n'ubumenyingiro cya IPRC ishami ryacyo rya Huye. Akaba ahatangirwa uburezi cyane cyane bwiganjemo ubw'imyuga ndetse n'ubumenyingiro.

Uburezi bufite ireme ni imwe mu ntego za Leta y'igihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo gufasha abaturage kugerwaho na serivisi z'uburezi hirya no hino mu gihugu aho hubatswe ibyumba by'amashuri bitandukanye bigamije kuzamura, kwegereza uburezi abaturage ndetse no gutanga uburezi bufite ireme hirya no hino mu gihugu.

Inyubako izwi nka laboratwaire ziboneka hirya no hino ku bigo by'amashuri zigamije gufasha abanyeshuri kuzamura ireme ry'imyigire yabo bashyira mu ngiro ibyo bigishwa mu mashuri. Ibi kandi bikabafasha kwiteza imbere ndetse no gukemura ibibazo bimwe biboneka muri sosiyete bagendeye ku bumenyayi bakura hirya no hino mu mashuri aho biga.